Amazi ari kuva mu itiyo ndende bigaragara ko ari kuza ari amazi menshi bigaragara ko ari ivomero rusange amazi ahora ameneka hariho kandi ibiganza by'umuntu uri gukaraba ayo mazi.

Ivomero rusange bigaragara ko ryubatswe ku buryo bugezweho rikikijwe na sima, bararyubakiye kugira abantu babashe kuzana amazi meza asukuye birinda indwara ziterwa n'umwanda, hariho abantu ubona ko baje kuvoma ndetse n'ibivomesho byinshi bitegereje kuvomwa.

Abantu benshi bitabiriye inama, imbere yabo hari minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana bigaragara ko hari icyo ari kubaganiriza inyuma yabo hari icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kivuga ku buzima bw'umubyeyi ndetse n'ubw'umwana atwite.

Ikirango cy'ikigo Mpuzamahanga, kizwi nka Globol Alliance, kizwiho kugira imiti myinshi itandukanye ikozwe mu bimera ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Abantu benshi bicaye bigaragara ko, aho hantu habereye amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima, imbere kandi hicaye n'umuntu umwe ubona ushinzwe umutekano. Hari kandi n'umuntu ufite igikoresho cyabugenewe mu gusakaza amajwi, bigaragara ko ari uri kubaganiriza ku buzima. Inyuma yabo hari n'icyapa kivuga ibijyanye n'ubuzima ndetse no kwimakaza ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye impuzankano yabo ari kumwe n'umugabo n'umugore bigaragara ko ari kubasobanurira ibijyanye no kuboneza urubyaro, afite ikarita ari kwifashisha abasobanurira abandi nabo bamuteze amatwi bigaragara ko bari kumva ibyo ari kubabwira.

Umukobwa uri kuvoma amazi ubona wateze ikivovo mu mazi, amanuka atemba kugira ngo abashe kuyavoma hatarimo imyanda myinshi, imbere ye hicaye akana kari kwitegereza ibyo ari gukora.

Abana batoya benshi ubona ko bafatanye, bambaye imipira yanditseho amagambo mu ibara ry'umweru bigaragara ko ari ikigo mpuzamahanga kizwi nka unisefu gifasha abana.

Icyumba kigari cyisanzuye ubona cyubatswe ku buryo bugezweho, kirimo abantu benshi cyane batandukanye, bigaragara ko hari gutangirwa ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima, buri bose baricaye bareba imbere, bigaragara ko bitegereje ndetse bateze amatwi abari imbere yabo, bafite ibyo bari kubabwira.

Umwana ukiri mutoya uri gukaraba intoki akoresheje igikoresho cyabugenewe mu kwimakaza isuku kizwi nka kandagira ukarabe ubona cyubatse ahantu inyuma y'inzu, bigaragara ko ari kugerageza kwikorera isuku ku ntoki kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Abaganga bambaye impuzangano yabo bari kumwe n'abaturage basanzwe bigaragara ko aho bantu bamaze kuganira ku bijyanye n'ubuzima. Bisa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso bahagaze ahantu, inyuma yabo hari amazu menshi atandukanye, iruhande rwabo hari icyapa.

Ubona waje kuvoma ku ivomero rusange, akaba yari yazanye indobo ari kumwe n'umwana wambaye impuzangano, bigaragara ko ari umunyeshuri uri kugerageza kumukorera ngo abashe kumugeza ku mutwe abashe gutaha.

Abana batoya ubona baje kuvomero rusange bitwaje utubido dutoya baje kuvoma. inyuma yabo hari umukobwa bigaragara ko ari kubavomera abafasha kuko bo batabasha kubikora, inyuma yabo haparitse imodoka bigaragara ko uwo mukobwa ariyo yararimo akaza kubavomera.

Akazu k'amazi kubatswe kugira ngo habashe kwimakaza isuku y'amazi ndetse no kwirinda indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi. Hari abantu benshi baje kuhavoma, bafite ibivomesho byinshi binyuranye ndetse n'umuntu uhagaze ku kazu k'amazi neza, bisa nkaho ari we uri kubavomera.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bafite icyapa cy'amabara y'ubururu n'umweru bigaragara ko ari ikirango cy'ikigo mpuzamahanga cy'umuryango w'abibumbye wita ku bana.

Abantu benshi bambaye impuzankano harimo ndetse n'abashinzwe umutekano, bigaragara ko aho hantu bari kuhakorera uturima tw'igikoni bateramo imboga kugirango abaturage babashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ivomero gakondo rusange byifashishwa bavoma amazi ari hasi mu butaka bakabasha kuyayungurura neza kugira ngo abaturage bayavome asa neza, urabona ko haje abantu benshi bazanye indobo ndetse n'abajerekani baje kuvoma ayo mazi.

Ivomero rusange ryabugenewe rikoreshwa n'abaturage benshi mu rwego rwo kwimakaza isuku y'amazi meza hari umukobwa ubona waje kuvoma ndetse n'abana bato ubona abari kumwe bose bafite ibivomesho baje kuvoma kuri iryo vomero.

Umwana mutoya ufite akabido, ari kuvoma ku ivomero rusange. Hari n'abandi bana benshi bari kuva ku ishuri baca mu muhanda uri hejuru y'iriba. Umwe muri bo urabona ko yaje ari kuvomera uwo nguwo, ndetse n'abandi bantu bari mu muhanda, hejuru yabo bivanze n'abanyeshuri banyuranye.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga wambaye n'agapfuka munwa urabona ko ari gukingira umumama ku kaboko bisa nkaho ari kumurinda indwara nyinshi zinyuranye nawe wambaye agapfukamunwa nyuma ye hari abandi bantu nabo babaganga ubona ko buri wese afite uwari gukingira ndetse n'abandi bicaye ku meza imbere yabo hariho ibikoresho binyuranye byifashishwa.

Ikigo nderabuzima cya Mayange, imbere yacyo hari abantu benshi ubona bambaye impuzankano y'abaganga bigaragara ko bishimiye umuntu bari kwakira, ni umugabo bigaragara ko ari umunyamahanga uje gusura icyo kigo nderabuzima.

Ivomero rusange ryubakwa mu gihe amazi ari ku butaka hasi, bakaryubaka bagira ngo rige ribasha kuyungurura amazi yo mu butaka abantu bayavome asa neza kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza. Hari abantu benshi ubabona ko baje kureba iryo vomero, ndetse n'abana bafite utubido bigaragara ko baje kuvoma.

Icyumba kigali cyisanzuye cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu benshi bakomeye bambaye neza. Imbere yabo hari ameza ariho ibikombe birimo ibyo kunywa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Harimo abanyarwanda ndetse n'umunyamahanga umwe, bigaragara ko bafite ikintu bari kuganiraho kijyanye n'ubuzima.

Ivomero gakondo ryifashishwa ahantu haba amazi makeya bagira ngo amazi ari mu butaka abantu babashe kuyavoma asa neza, rikaba riba ririho ibintu byinshi byifashishwa ndetse n'ipombo inyuma umuntu apika kugira ngo amazi abashe kuva mu butaka azamuka kandi asa neza ndetse n'abana baje kurivomaho, umwe ari kumufasha kuyavoma undi nawe ari imbere afite akabido.

Umugore uryamye wambaye agapfukamunwa, ari kumwe n'abandi bantu babiri bigaragara ko uwo ari umubyeyi utwite, umwe muri bo afite igikoresho cyabugenewe mu kumva uko umwana ameze mu nda, ngo bumve niba umwana umutima uri gutera.

Umugabobona ugeze mu za bukuru we wishimye cyane yicaye ku njerekani imbere ye hari ivomero rusange rifite amavomero abiri ryabugenewe mu gutanga amazi meza ku abaturage, bigaragara ko abyishimiye.

Umugore uteruye umwana. Ari kumwe n'undi muntu bigaragara ko ari umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki. Afite igikoresho cy'ikoranabuhanga cyabugenewe mu gupima umuriro w'umurwayi. Inyuma yabo hari n'undi mukobwa uri kwitegereza ibyo bari gukora.

Abantu babiri urabona ko harimo umwe w'umuganga wambaye uturindantoki ndetse ari gukingira uwo wundi ku kuboko bigaragara ko hari indwara runaka ari kumukingira kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umumama wambaye agapfukamunwa bigaragara ko ari gukarabya umwana ukiri mutoya wambaye impuzankano y'abanyeshuri, ari kumukarabya intoki neza ashyizeho amazi meza n'isabune kugira ngo abashe kumurinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abaganga batatu bicaye mu ntebe imbere yabo hari ameza arimo ibitabo byabugenewe mu kwandikamo indwara ndetse n'uburyo abarwayi biyumva. Buri wese afite amakarita, bigaragara ko yakiriye abarwayi benshi.

Abana batoya bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri, bose bafite ibikombe bari kunywa amazi bari kuvoma ku kigega, bigaragara ko ari ikigega cyifashishwa ku kigo cy'amashuri kugira ngo abana babashe kunywa amazi.

Umwana ukiri mutoya wambaye impuzankano bigaragara ko ari umunyeshuri, ari gukaraba intoki ku gikoresho kizwi nkakandagira ukarabe kifashishwa mu kwimakaza isuku y'intoki mu rwego rwo kwirinda indwara zinyuranye.

Umwana mutoya uri gukaraba intoki ku ivomero rusange ubona rihuriraho abantu benshi. Inyuma yaryo urarabona ko hateye ibimera byinshi bitandukanye ndetse hanateretse amadomoro hafi yaryo.

Itiyo ndende y'umukara ubona izana amazi meza, hari kandi n'umuntu ubona ko ari gukaraba intoki yimakaza isuku, ndetse arinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana mutoya wambaye imyenda isa, bigaragara ko ari gukaraba intoki, imbere ye hateretse ibase ari gukarabiramo. ndetse biragaragara ko ari gukaraba amazi meza yimakaza isuku y'intoki ndetse yirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ivomero rusange rizana amazi meza, hariho abana ubona bari kuvomera mu ndobo nyinshi zitandukanye, bisa nkaho bashaka gukoresha ayo mazi mu rwego rwo kwimakaza isuku, ndetse no gukoresha amazi meza birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umuntu ubona yipfutse mu maso bisa nkaho afite ikibazo cyubuzima bwo mumutwe ari ahantu ha wenyine ubona ko afite ikibazo inyuma ye hari ibintu bipanze mu dukarito bihaparitse bisa nkaho ari ibye.

Umukobwa wirabura uri guseka, wambaye umwambaro wa sosiyete y'itumanaho ya MTN, bigaragara ko ari umukozi wayo. Hasi hari icyapa cyanditseho amagambo bigaragara ko ari ikigo mpuzamahanga gifasha impunzi ndetse n'abana.

Abantu benshi bambaye impuzangano bigaragara ko bavuye ahantu habereye amahugurwa kubijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bisa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugabo ufite ibisatsi byinshi, wiyambitse ipine, bigaragara ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, bigaragara ko inyuma ye hari abantu baje kumushungera, ndetse nawe urabona ko yihebye.

Igishushanyo cy'umutwe wonyine, kigaragaza ko umuntu yaba afite ikibazo cyo mu mutwe. Hariho ibirango byerekana ko umuntu yaba yaragize ikibazo gishobora gutuma atagira ubuzima bwiza.

Icyumba kigari cy'isanzuye kirimo abantu benshi cyane batandukanye, bicaye ku ntebe bigaragara ko hari umuntu uri kubaganiriza ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bose urabona ko bakurikiye imbere bateze amatwi ibiri kuvugirwa aho hantu.

Nyakubahwa madamu Janeti Kagame ari gutambutsa imbwirwaruhame ivuga ku kwita ndetse no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, imbere ye hari ameza ari ho insakazamajwi ari gukoresha kugira ngo ubutumwa bugere kuri bose.

Ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali bizwiho kuvura indwara zo mu mutwe imbere yabyo hari umugabo uhahagaze bigaragara ko yari yagannye ibyo bitaro aje kubisura ahagaze mu busitani bw'ibyo bitaro.

Ni icyapa kinini kiriho amagambo yandikishije mu ibara ry'icyatsi bigaragara ko ari urugaga rw'abanyeshuri biga kuvura indwara zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, cyerekana ko bakwiye guharanira ubuzima bwo mu mutwe bw'abana, ndetse n'ingimbi, n'abangavu.

Umukecuru wambaye ikintu mu ijosi wicaza agatambaro, bigaragara ko yambaye ubusa hejuru ahagaragara. Birasa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe ari ahantu ha wenyine bigaragara ko yigunze.

Umugabo ugeze mu za bukuru, bisa nk'aho afite ikibazo cyo mu mutwe . Nyuma ye hari abantu benshi bamushungereye. Basa nk'aho bamwambitse amapingu kugirango atabasha kugira ibyo yangiza ndetse kandi hamuriho n'udukarito twinshi dutandukanye ndetse n'amafoto.

Abana bambaye imyenda isa nabi, bigaragara ko bafite ikibazo cyo mu mutwe, bose nta numwe wishimye imbere hari abarira ndetse n'abandi bose ntabwo bishimye. Bari ahantu bonyine bigaragara ko bose bafite ikibazo.

Abantu benshi bicaye ahantu ndetse harimo n'abahagaze bigaragara ko aho hantu haganirijwe ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Inyuma yabo hari icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, ndetse handitsweho n'andi magambo menshi.

Icyapa kiriho umugabo ubona ko hari ibyo ari kuganiriza abantu, ni impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse anamenyesha abantu umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe utegurwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima.

Umusore w'imibiri yombi, wambaye ubusa hejuru, bigaragara ko afite igikoresho cyabugenewe mu gusukura amenyo kiri mu ishusho y'urudodo, bigaragara ko ari kugerageza gukora isuku y'amenyo, yirinda indwara ziterwa n'umwanda wo mu kanwa.

Umwana ukiri mutoya bigaragara ko afite ikibazo cy'impengekerane z'amenyo ari kumwe n'umuganga wambaye uturindantoki ufite ibikoresho byifashishwa mu gukura amenyo, bigaragara ko agiye kumukura ayo menyo yakuriye mu yandi.

Igishushanyo cyifashishwa kwa muganga babasha kureba uko amenyo y'umuntu ameze, kugirango umuganga abashe kuvura umurwayi waje amugana ndetse abashe no kumenya uko amenyo ye apanze.

Icyumba kigari cyisanzuye kirimo ibikoresho byabugenewe abarwayi barwaye amenyo baryamaho, kugira ngo abaganga babashe kubakurikirana kandi babavure babareba mu kanwa neza, hari kandi n'utubati twinshi tunyuranye bigaragara ko tubikwamo ibikoresho byifashishwa n'abagana ndetse n'abavurira muri ibyo bitaro.

Umusore w'inzobe bigaragara ko yambaye ubusa hejuru. Afite agakoresho kabugenewe mu gusukura amenyo kari mu ishusho y'urudodo bigaragara ko ari kugerageza koza neza amenyo kugira ngo abashe kwirinda indwara ziterwa n'umwanda wo mu kanwa.

Icyumba kigali kisanzuye kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura amenyo, harimo n'ikarabiro ryabugenewe kandi naryo rigezweho bigaragara ko bimakaza isuku, ndetse n'ibindi binyuranye byifashishwa kwa muganga.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi myinshi, wambaye umwenda w'umweru, afite igikoresho cyabugenewe mu gukura amenyo. Ari koza neza amenyo bigaragara ko ari kwirinda indwara ziterwa n'umwanda wo mu kanwa imbere ye hari n'undi muntu.

Igishushanyo kiriho amenyo ndetse n'uburyo ateye neza mu kanwa, kifashishwa kwa muganga kugira ngo babashe kumenya uburyo amenyo ateye babashe kuvura abarwayi bafite ikibazo cy'amenyo.

Abana batoya bambaye impuzankano y'abanyeshuri, buri wese afite agakoresho kabugenewe mu gusukura amenyo ndetse n'udukombe turimo amazi, bigaragara ko bose bari kugerageza gukorera amenyo isuku.

Ahantu hubatse ihema ry'amabara y'umweru hariho n'icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, bigaragara ko habereye umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa uba tariki ya makumyabiri z'ukwa gatatu, haje abaganga benshi batandukanye ndetse n'abandi baturage bigaragara ko abo baganga baje kubapima izo ndwara ndetse no kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze.

Umusore w'imibiri yombi ari kumwe n'umuganga wambaye uturindantoki, afite igikoresho kiriho amenyo atandukanye mu ngano bigaragara ko ariyo ari kwifashisha amuvura kugirango abashe kumuvura neza mu buryo yishimiye.

Icyumba kigali cyisanzuye, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, ndetse n'agatebe gateye nk'agatanda kifashishwa n'umuganga igihe ari kuvura umurwayi w'amenyo, bigaragara ko ari ahavurirwa indwara zo mu kanwa, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura.

Umusore wambaye umwambaro w'umweru afite agakoresho kari mu ishusho y'urudodo kabugenewe mu gusukura amenyo neza, bigaragara ko ari kwirinda indwara ziterwa n'umwanda wo mu kanwa, inyuma ye hari undi muntu ubona ko barikumwe uri kumurebera.

Umusore w'imibiri yombi wambaye neza, ufite ubwanwa, bigaragara ko ari guseka, afite amenyo meza y'umweru bigaragara ko akora isuku ye y'amenyo neza kugira ngo abashe kwirinda indwara ziterwa n'umwanda wo mu kanwa.

Abasore babiri bose bambaye imyenda y'umweru umwe muri bo afite agakoresho kari mu ishusho y'ubudodoka kabugenewe mu gusura amenyo, n'undi nawe ari kumwitegereza bigaragara ko ari kwimakaza isuku y'amenyo yirinda indwara ziterwa n'umwanda wo mu kanwa.

Umugabo w'imibiri yombi ubona ko yambaye ubusa, afite isume ku rutugu ndetse afite n'igikoresho cyabugenewe mu gusukura amenyo kiri mu ishusho y'urudodo, bigaragara ko ari kugerageza kwimakaza isuku y'amenyo ye ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda mu kanwa.

Igikoresho kigari cyisanzuye kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo n'intebe yabugenewe yicarwaho n'umurwayi urwaye cyangwa ufite ikibazo mu kanwa kugira muganga abashe kumusuzuma areba neza mu kanwa, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa kuri iryo vuriro.

Umusore wambaye umupira w'umweru, ufite imisatsi myinshi ku ruhande wogoshe, afite agakoresho k'ishusho y'urudodo rw'umweru kabugenewe mu gusukura amenyo neza, imbere ye hari n'undi muntu ubona ko bose bari gukora ibintu bimwe barebana.

muwa fag bigaragara ko ari kumwe n'undi muntu ukiri muto afite agakoresho kuubuturukabugenewe mu gupima uko umuntu ubuzima bwe buri kugenda urabona ko yishimiye uwo muntu bari kumwe bisa nkaho ari kugira ibyo amusobanurira ku bijyanye n'ubuzima

Umumama ugeze mu za bukuru, wambaye amadarubindi, ufite imisatsi y'umweru ndetse n'kirahure mu ntoki. Yipfutse ku munwa bigaragara ko amaze kunywa imiti, ikaba itamugendekeye neza.

Umuma ubona ugeze mu za bukuru wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri biragaragara ko ari kurambura amaguru yicaye mu busitani hagati ariko afite igitambaro yarambuye mu busitani kugira ngo abashe gukora imyitozo, inyuma ye hari ibindi biti byinshi bigaragara ko ari ahantu heza hakoze ubusitani.

Umumama ugeze mu za bukuru, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ubuzima bwe bubashe kugenda neza, ari ahantu aryamye, bigaragara ko hashashe igitambaro, kugira ngo adakomereka ku biganza.

Abantu babiri ubona harimo umwe ugeze mu zabukuru ndetse n'undi ugifite akabaraga, bari hagati mu kayira k'amabuye kagenewe kugendwamo n'abanyamaguru, iruhande rwabo hateye ibyatsi binyuranye ndetse mu rundi ruhande harimo n'ibiti byinshi bihakikije.

Umugabo ugeze mu zabukuru, ugendera mu kagare kabugenewe mu gutwarwamo abantu bafite ikibazo cy'ubumuga, ari kumwe n'umwana ukiri muto bisa nkaho bafite utuntu bose bari gukinisha kugira ngo umusaza abashe kubona ko agifite ubuzima buzira umuze. Uwo mwana arishimye cyane, inyuma yabo hari n'ibindi bikoresho imisego n'ibindi.

Umugabo ubona ugeze mu za bukuru uri kumwe n'umwana ukiri mutoya bigaragara ko ari kujya amukoraho bisa nkaho ari gutuma amaraso ye atembera neza kugirango abashe kugira ubuzima bwiza, urabona ko bose bishimye.

Umugore ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umumama ukiri muto ndetse n'umwana mutoya bigaragara ko bose bishimye cyane ko bari gufata ifoto, imbere yabo hari ameza ariho amasahani ubona hateguyeho n'ibyo kurya.

Umugabo ushaje ufite ubwanwa burimo imvi urabona ko aryamye kwa muganga inyuma ye hari ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga mukwifashisha kuvura ndetse no kureba uko ubuzima bw'abantu buhagaze imbere ye hahagaze umuganga ubona ko ari buri kumukurikirana.

Abantu higanjemo abakuru ndetse n'abana babiri bigaragara ko bishimye cyane bari kwisanzura ku bantu bakuru ndetse n'abantu bakuru nabo bakemera ko babisanzuraho, buri wese urabona ko ari kumwenyura bisa nkaho bishimiye ubuzima bwiza babayemo.

Umumama uri kumwe n'umwana mutoya ufite imisatsi myinshi, bigaragara ko hari umukino bari gukina, bisa nk'aho ari ugukangura umwana, kugira ngo abashe gukurana ubwenge ndetse n'ubumenyi. Umumama urabona ko hari ibintu ari kumuhisha, kugira ngo umwana abashe kubitahura.

Umusaza ugeze mu zabukuru bigaragara ko ari kumwe n'bana bato cyane, afite utuntu bisa nkaho ari two bari kurya bahayeho n'uwo musaza kugirango abashe kugira ubuzima bwiza ndetse no kumwereka ko bamwishimiye bose bafite utwo tuntu bari kuturya.

Umuntu bigaragara ko ageze mu za bukuru, uri kugerageza gukina imikino izwi nk'ikibugozo, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza mu mutwe kandi abashe kutarambirwa ibintu bikorwa.

Umukecuru ubona ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umukobwa ukiri mutoya, bigaragara ko ari kumufasha kumukoresha izenguruka kugira ngo atagumya kwicara ahantu hamwe akagira ubumuga bwo kuguma ahantu hamwe.

Umugabo ugeze mu zabukuru ari kumwe n'umukobwa ukiri muto wambaye impuzangano y'abaganga, bigaragara ko afite igikoresho cyabugenewe mu gupima umuvuduko w'amaraso, bisa nkaho ari gupima uwo mugabo ngo abashe kumenya uko umuvuduko w'amaraso we umeze.

Umugabo ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umugore ukiri muto bigaragara ko ari umuganga uri kumufata ibipimo. Afite igikoresho cyabugenewe mu gupima umuvuduko w'amaraso, bigaragara ko ari gupima uwo mugabo ngo abashe kumenya uko ubuzima bwe buhagaze.

Umugabo ugeze mu za bukuru wicaye ku buriri bisa nk'aho atakibasha kwihagurutsa ari kumwe n'umuntu w'umugore ukiri mutoya uri kumufasha guhaguruka kugira ngo abashe kugenda inyuma yabo hari inzitiramibu ndetse n'akabati bigaragara ko kabikwamo ibintu byinshi byo kwifashisha mu rugo.

Umugabo ugeze mu za bukuru bigaragara ko atakibasha kwikorera isuku yo ku mubiri, ari kumwe n'umuntu bigaragara ko ari kumwoza mu mutwe neza ndetse agiye no kumwoza umubiri wose, ndetse uwo musaza yicaye ahantu yitonze bari kumwoza.

Umugore n'umugabo bageze mu za bukuru bigaragara ko bari gukina udukino imbere yabo hari ameza ateretseho utuntu bigaragara ko bari kutwifashisha kugirango ngo bishime nubuzima bwabo bugende neza.

Umugabo ugeze mu zabukuru, bigaragara ko bari kumuha imiti, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Umukobwa uri kuyimuha urabona ko amwishimiye, bisa nk'aho ari kumukundisha ubuzima.

Umugabo ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umukobwa bigaragara ko ari umuganga wambaye impuzankano zabo, uri kumufasha kugira ngo ubuzima bwe bubashe kugenda neza ndetse ari no kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Minisitiri w'ubuzima Dr Sabein Nsanzimana ari gusuhuzanya n'abihayimana umwe muri bo baregeranye bigaragara ko hari ibyo bari kuvugana inyuma yabo hari icyapa kiri mabara y'ubururu ndetse n'ibirango bya minisiteri y'ubuzima.

Umugabo ufite icyapa cyandikishijweho inyuguti zitukura, bigaragara ko ari kwerekana ko urukingo rw'ubushita bw'inkende rwabonetse aka kanya kugira ngo bahumurize abaturage.

Icyapa kinini kiriho amagambo yandikishijwe amabara y'icyatsi n'umukara, bavuga ko ari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya diyabete ku isi yose, ndetse no gutanga amahugurwa y'uburyo wayirinda. Hariho kandi n'igishushanyo cy'inzu iherereye mu mujyi wa Kigali izwi nka convesheni, ndetse n'umuntu uyihagaze iruhande.

Ahabereye inama hari abantu benshi batandukanye imbere yabo hari abandi bantu bigaragara ko aribo bari kubaganiriza, inyuma yabo hari icyapa bigaragara ko habereye inama mpuzamahanga yiga ku ndwara ya sida ndetse hari n'ikindi cyapa bigaragara ko ari umuryango mpuzamahanga w'abagore.

Umugabo n'umugore inyuma yabo hari ibendera ry'Igihugu, bafite icyapa cy'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima gikangurira abantu kwivuza ndetse bakanipimisha igituntu, bababwira ko ari indwara ikira.

Abaganga bambaye impuzangano bose, y'amabara y'umweru. Imbere yabo hari umuntu bigaragara ko ari we uri kubaganiriza ndetse n'ibyapa bivuga ibyo bari kuganiraho ndetse n'undi umwe bigaragara ko ari gufata amashusho y'aho ibyo byabereye.

Icyapa kiriho amabwiriza ndetse n'uko wakwitwara wiririnda indwara ya kanseri, kimenyesha abantu ko bagomba gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagabanye ibyago byo kwandura iyi ndwara.

Icyapa cyandikishijwe amabara y'icyatsi n'ubururu, hariho amagambo yerekana ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'ibidukikije, tariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cyenda, bibiri na makumyabiri na kane.

Abantu benshi cyane bambaye neza ndetse n'amakarita abaranga mu kazi bakora. Inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ko ari ugushyira abagore mu buyobozi mu bijyanye n'ubuzima, ariko biragaragara ko aho hantu habereye amahugurwa ajyanye n'ubuzima ndetse bari no gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo kurangiza ibyo bari barimo.

Icyumba kigari kisanzuye bigaragara ko harimo kuberamo ikingira rya Korona virusi, hari abantu benshi ubona ko baje kwikingiza, bambaye udupfukamunwa ndetse n'umuganga uri kubakingira, wicurane n'umuntu umwe bigaragara ko ariwe ari kwakira.

Abantu ubona bambaye amakarita abaranga ndetse n'icyo bakora ubona bambaye neza, inyuma yabo hari ibyapa ubona bivuga ibijyanye n'ubuzima bitandukanye, bigaragara ko aho hantu habereye amahugurwa ajyanye n'ubuzima, bisa nk'aho aba bantu barangije bari gufata ifoto y'urwibutso.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, hariho icyapa cyandikishijwe inyuguti z'umukara, bigaragara ko ari ikigo gikorera ubushakashatsi ku buzima. Imbere yacyo hari ubusitani bwiza buteyemo indabo ndetse n'umuhanda bigaragara ko ukoreshwa n'abahagana.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi binyuranye bigaragara ko hari aho abarwayi baryama, barembye bashyize mu bitaro, harimo ibitanda bigaragara ko bishashe neza bisukuye ndetse n'utubati ndetse n'amezaza yifashishwa n'abaje muri icyo cyumba.

Inzu nziza zubatse ku buryo bugezweho kandi zubatse zitandukanye, bigaragara ko ari ibitaro byifashishwa mu kuvura abantu indwara nyinshi zinyuranye, inyuma ya buri nzu hari ubusitani bwiza burimo ibyatsi ndetse n'indabo nyinshi zitandukanye.

Imiryango myinshi itandukanye iriho nimero, bigaragara ko ari ivuriro ryigenga. Hejuru yayo hari icyapa kigaragaza ibyo bakora ndetse n'ibibarizwa aho hantu ndetse n'inyubako zihari. Wigiye imbere gato urabona ko hari intebe zo kwicaramo zegamirwa.

Ibitaro bikuru bya Butaro bizwiho kuvura indwara ya kanseri mu Rwanda, imbere yabyo hari ubusitani bwiza burimo indabo nyinshi zitandukanye bigaragara ko ari ubuzana umwuka mwiza kuri ibyo bitaro.

Icyumba kigari kisanzuye kirimo ibikoresho bitandukanye bigaragara ko ari ahavurirwa abana batoya, harimo ibitanda bifashisha babavura ndetse n'udutebe two kwicaraho ku rukuta hariho ibikinisho byinshi ndetse byiganjemo utunyamaswa ndetse n'utundi dushushanyo dutandukanye.

Icyumba kigari cyisanzuye kirimo ibikoresho byinshi binyuranye, harimo kandi ameza ariho ibitambaro bigaragara ko bifashishwa n'abantu bahagana, biragaragara ko ibyo bikoresho ari ibyo kwa muganga, harimo kandi n'insakazamashusho zinyuranye bigaragara ko zifashishwa n'abari muri icyo cyumba.

Inzu nziza irimo imiti myinshi, bigaragara ko ari ahagenewe gucururizwa imiti myinshi itandukanye, iri mu tubati dutandukanye bitewe n'ubwoko bw'uwo muti, hari kandi n'intebe zo kwicaraho bigaragara ko ari izicaraho abagana aho hantu.

Ibitaro bikuru bya Butaro, bivura indwara ya kanseri mu Rwanda, byubatse neza ku buryo bugezweho, imbere yabyo hari ubusitani bwiza buteyemo indabyo nyinshi zinyuranye.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, hariho kandi n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara bigaragara ko ari ikigo nderabuzima cyagenewe kuvurirwamo abantu bageze mu zabukuru, imbere yabyo hahagaze umuntu bigaragara ko yaje ahagana ndetse inyuma hari n'andi mazu menshi atandukanye.

Abantu bahagaze ubona ko bari gufata ifoto y'urwibutso, bisa nk'aho bamaze kuganira ku bijyanye n'ubuzima. Inyuma yabo hari inzu ubona ko ari ibitaro, hejuru yabo kandi hari icyapa bigaragara ko icyo cyumba gifatirwamo ibizamini kugirango babashe kumenya icyo umurwayi arwaye.

Icyumba kigari kisanzuye bigaragara ko ari aho abarwayi benshi baryama harimo ibitanda binyuranye bigaragara ko byakira abarwayi benshi bakaryamaho ndetse hari n'utubati bigaragara ko turimo ibikoresho byinshi binyuranye byifashishwa n'abagana ibyo bitaro.

Ibikoresho bigezweho byifashishwa n'ikoranabuhanga mu kuvura indwara zitandukanye, biri mu cyumba kigari kisanzuye kirimo n'udutanda twabugenewe mu kuryamaho abarwayi barembye kugira ngo babashe kumenya uko bameze ndetse n'igikoresho cyabugenewe mu kureba uko mu mubiri w'umuntu hose hameze.

Ibitaro bikuru bivura indwara zo mu mutwe, biherereye mu mujyi wa Kigali i Ndera. Hari ibyapa ubona birangira abantu, ndetse n'aho bakirira abarwayi. Inyuma y'ibitaro hakikirwa n'ibiti byinshi ndetse n'indabo, imbere yabyo hari ahagenewe guparikwa ibinyabiziga.

Inzu nziza yubatswe ku buryo bugezweho irimo imiryango myinshi itandukanye, ndetse buri muryango ugiye ufite ibirahure byiza, bigaragara ko ari kwa muganga, hari kandi n' agakoresho karimo ururabo rwiza ndetse buri hantu hose urabona ko harimo amakaro meza cyane.

Ibitaro bikuru bya kabgayi bivura indwara nyinshi zitandukanye biherereye mu karere ka muhanga ukomeje imbere urabona amazu menshi atandukanye ndetse n'umuntu utwaye igare uri kugana kuri ibyo bitaro ndetse n'andi mazu menshi atandukanye akorerwamo ibintu bitandukanye ndetse n'ibiti biteye mu bitaro hagati.

Icyumba kigari kisanzuye, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye ndetse n'intebe zicurwaho n'abategereje kwakirwa, harimo n'ibindi bishushanyo bigaragara ko havurirwa abana bakiri batoya.

Abantu benshi batandukanye ubona higanjemo Abanyarwanda n'abanyamahanga bisa nk'aho bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ko ari ku bitaro bya Butaro bizwiho kuvura kanseri hano mu Rwanda. Bisa nkaho abo bantu bose bari basuye ibyo bitaro.

Icyumba kigali kisanzuzuye, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga harimo n'icyuma kibasha kureba mu mubiri w'umuntu kuko hose hahagaze. Harimo kandi n'isakazamashusho zifashishwa n'abantu bari muri icyo cyumba ndetse n'ibindi bikoresho byinshi binyuranye byifashishwa n'abagana ibyo bitaro.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye amadarubindi, ari kumwe n'umukobwa ukiri muto iyo bigaragara ko ari umuganga, yambaye impuzankano afite igikoresho cyabugenewe mu gusuzuma uko umuntu ameze bigaragara ko amwishimiye cyane, kandi ari kumuha serivisi nziza.

Inzu nini yubatse ku buryo bugezweho, imbere yayo hari icyapa bigaragara ko ari ibitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge. Imbere yabyo hari indabo ubona z'ubwoko bumwe ziteye mu busitani bw'ibyo bitaro ndetse n'agahanda ubona kanyurwamo n'abantu babigana.

Icyumba cyisanzuye kirimo ibikoresho byo kwa muganga byinshi bitandukanye, harimo igitanda bigaragara ko ari icy'umurwayi aryamaho igihe yaje kwivuza, ndetse n'utubati dutoya tw'amabara y'umuhondo bigaragara ko ari utwo kubikamo ibikoresho bitandukanye.

Udupfunyika twinshi turunze ahantu hamwe bakoresha bakusanya amaraso ndetse bakanayabikamo, bifashisha kugira ngo bayashyiremo babashe kongerera amaraso abarwayi b'indembe bafite icyo kibazo.

Umumama urwaye, uryamye ku gitanda bigaragara ko arembye haje kandi umuganga wambaye impuzangankano yabo ndetse n'uturindantoki bigaragara ko ari kumva uko ameze ngo abashe kumwitaho ndetse akanamuvura ndetse n'undi muganga bigaragara ko nawe aje kureba ikibazo uwo murwayi afite.

Ibitaro bigari biyite inzu nyinshi zitandukanye byubatse ku buryo bugezweho, imbere yabyo hari icyapa bigaragara ko ari ibitaro bikuru, bivurirwamo abasirikare bagize ikibazo ndetse n'umuryango wabo ndetse hari n'umuhanda w'igitaka ujyayo, inyuma yabyo hari ibiti byinshi bitandukanye.

Umwana ubona ukiri mutoya bigaragara ko yagiye ku bitaro. Ari kumwe n'umuganga ubona w'umumama wambaye agapfukamunwa bigaragara ko afite igikoresho cyabugenewe mu gupima umuvuduko w'amaraso, bigaragara ko ari gupima uwo mwana ngo abashe kumenya uko ubuzima bwe buhagaze.

Abamama babiri bahagararanye harimo umwe uteruye umwana ukiri mutoya bigaragara ko ari uruhinja rwavutse, inyuma yabo hari ibikoresho byinshi bitandukanye bigaragara ko ari kwa muganga mo imbere.

Abagore babiri, harimo umwe ufite umwana mutoya w'uruhinja, bigaragara ko bari mu bitaro mu imbere, bisa nk'aho uwo nguwo amaze kubyara umwana ako kanya.

Icyumba kigari cyisanzuye kirimo ibikoresho byo kwa muganga binyuranye bigaragara ko ari aho babagira umurwayi ukeneye kubagwa hejuru hari amatara menshi yongera urumuri kugira ngo umuganga abashe kubona neza ibyo akora ndetse n'ibikoresho bisakaza amashusho muri icyo cyumba.

Umugabo wambaye umwambaro w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, ari kumwe n'undi mugabo bigaragara ko hari ibipimo ari kumufata yamushyizemo igipimo mu kaboko kimwereka umuvuduko w'amaraso, inyuma yabo hari icyapa cy'irembo ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Inzu yubatswe ku buryo bukorerwamo ubucuruzi. Hejuru yayo hari icyapa cyerekana ko ari ahacururizwa imiti myinshi itandukanye, berekana nyiri aho hantu, nimero za telefone wabahamagararaho igihe utahabasanga, ndetse bakanerekana ubwishingizi bakorana na bwo kugira ngo ubashe gufata imiti ku giciro gito.

Icyumba kigari cyisanzuye, kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa n'ikoranabuhanga, bigaragara ko ari ahakirirwa umurwayi urembye, kugira ngo babashe kumukurikirana. Harimo n'umurwayi wambaye agapfukamunwa, ndetse uryamye ku gatanda, bigaragara ko ari kwitabwaho.

Abantu benshi bambaye neza ndetse bafite n'amakarita aranga akazi bakora bahagaze imbere y'ibitaro bikuru bya Rwamagana bisa nkaho bose bari gufata ifoto y'urwibutso higanjemo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga.

Abantu babiri bigaragara ko ari abaganga bari kumwe n'umurwayi w'umukobwa wambaye ikanzu ngufiya irimo amabara y'ubururu n'umweru uryamye ku gitanda bigaragara ko yarembye bari kumwitaho kugira abashe kumererwa neza.

Inzu zubatse mu buryo bugezweho kandi nyinshi nyuma yazo hari ibyapa bigaragaza ko ari ibitaro by'Akarere ka Nyanza ndetse n'ibindi byapa biyobora abantu ndetse bikanabamenyesha gahunda y'ibyo bitaro.

Icyumba kigali cyisanzuye kirimo akabati kanini karimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'imiti yo kwa muganga, buri muti wose ufite aho uri ndetse na buri bikoresho bipanze ahabugenewe.

Icyumba kigari cyisanzuye kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga, bavura indwara nyinshi zinyuranye, harimo kandi insakazamashusho bigaragara ko ari izifashishwa muri icyo cyumba, ndetse n'ameza ariho ibitambaro anyuranye nayo yifashishwa.

Icyapa cyerekana ko ari ibitaro bya Tabagwe. Mo imbere harimo abantu benshi batandukanye ubona baje bagana iki kigo nderabuzima, gikikijwe n'ubusitani bwiza barimo indabo nyinshi zitandukanye, ndetse hari n'amasekariye ubona anyurwamo n'abagana icyo kigo nderabuzima.

Umugabo bigaragara ko yambaye impuzankano y'abaganga, yandikishijweho amabara y'icyatsi, bigaragara ko akora ku bitaro bikuru bya Ruhengeri. Inyuma ye hari ibikoresho byabugenewe, byifashishwa n'abarwayi bagana ibitaro bya Ruhengeri, ndetse n'agatanda bifashisha baryamishaho umurwayi, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Icyumba kigari cyisanzuye bigaragara ko ari ikihurirwamo abana batoya, harimo ibikinisho byinshi ndetse harimo n'agatanda bigaragara ko gasuzumirwaho umwana kugira abashe kumenya icyo arwaye, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Ahantu hagari hisanzuye bigaragara ko ari mu bitaro, harimo imiryango myinshi itandukanye ndetse n'ibikoresho byinshi bitandukanye; byifashishwa kwa muganga, harimo kandi abaganga benshi bigaragara ko buri wese afite ibyo arimo ndetse n'undi muntu wambaye impuzankano yaho uri kugenda asanga abandi.

Icyumba kigari kisanzuye kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kugira ngo babashe kuvura abarwayi ndetse n'udutanda tujya kumera nk'intebe twicarwaho n'abantu barwaye kugira ngo babashe kubasuzuma indwara zinyuranye higanjemo izo mu kanwa ndetse n'udukoresho dusakaza amashusho.

Icyumba kigari kisanzuye kicayemo abantu benshi cyane higanjemo abambaye impuzangano bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima mu midugudu itandukanye, bigaragara ko bari kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo babashe kubigeza no ku bandi baturage bayoboye.

Ibitaro byubatswe ku buryo bugezweho bifite inyubako nyinshi zitandukanye ndetse n'abantu ubona baje bagana ibyo bitaro, ahagenewe guparikwa ibinyabiziga haparitsemo imodoka imwe ndetse nyuma gato hari n'ubusitani bw'ibyo bitaro n'inyuma hari n'ibiti binyuranye.

Ibitaro bizwi nka Isange One Stop Center biherereye i Remera Rukoma bizwiho kuvura indwara nyinshi zitandukanye, inyuma y'ibitaro hari ibigega by'amazi byifashishwa n'abagana ibyo bitaro ndetse no gusukura ibikoresho byinshi bikoreshwa kuri ibyo bitaro, bikikijwe n'ubusitani bwiza n'indabo nyinshi.

Umukobwa muremure unutse wambaye imyenda yabagenewe ari gukora imyitozo ngororamubiri biragaragara ko ari kugerageza kurambura amaboko cyane kugira ngo ingingo ze zibashe gukora neza kandi agire ubuzima buzira umuze.

Umugabo ubona wambaye umwambaro w'icyatsi w'ijire, ari kumwe n'umusore ubona wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri bisa nk'aho yagize ikibazo cy'imvune, uwo mugabo aramufashe bigaragara ko ari kugerageza kumujyana aho yahererwa ubutabazi.

Umukobwa wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku kantu yasashe ndetse imbere ye hari mudasobwa ndetse n'utundi dukoresho twabugenewe mu kurambura amaboko. Bigaragara ko bimwe muri byo ari kubikoresha, hateretse n'icupa ry'amazi iruhande rwe.

Inkweto ndende z'umukara zabugenewe mukorana imyitozo ngororamubiri ndetse n'utundi tuzi dutandukanye, bigaragara ko zirinda abantu gukomereka ibirenge.

Umuntu wambaye inkweto zabugenewe mu gukoreshwa imyitozo ngororamubiri ndetse n'imyambaro yabugenewe. Yicaye ahantu bigaragara ko ari ahagenewe gukorerwa imyitozo, inyuma ye hari abandi bantu benshi bigaragara ko baje aho hantu.

Umukobwa ufite imisatsi myiza, wambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, afite agakoresho kabugenewe mu kubikamo terefone kari ku kuboko, ndetse yambaye n'isaaha mu kundi kuboko, urabona ko ari kugerageza kurambura amaboko, ndetse no kugorora neza ingingo ze kugirango abashe kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ahantu arambije ukuguru kumwe, ukundi aguhinnye, bigaragara ko ari kugerageza kurambura amaguru neza ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa mwiza w'inzobe ufite imisatsi, wambaye imyambaro yabugenewe mu gukoresha imyitozo ngororamubiri, ku kaboko hari agakoresho kabugenewe babikamo telefoni, afite icupa ry'amazi ari kuyanywa bigaragara ko yari ananiwe kandi amaze gukora iyo myitozo.

Abaganga bambaye impuzangano yabo bigaragara ko bari gukora inama bakoresheje iyakure, bakabasha kumva ubutumwa ariko atari ngombwa ko bari aho inama iri kubera.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa nk'ubutabazi bw'ibanze igihe umuntu yaba agize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, bakabimufashisha bagira ngo barinde igikomere kugira ngo kidakomeza kuba kinini.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu bwirinzi, mu gihe waba uri gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se indi mirimo itandukanye yatera ingaruka mbi ku buzima, harimo ibintu byinshi bitandukanye wakwifashisha kugira ngo ubashe kwirinda ibyago.

Umukobwa wambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, ku kaboko ke hari agakoresho kabugenewe mu kubika terefone igihe umuntu yaba ari gukora imyitozo ngororamubiri ndetse anafite udukoresho twabugenewe mu kumva amajwi uri wenyine, biragaragara ko imbere ye hateretse icupa ry'amazi, ari kugerageza kugorora ingingo ze, amaboko ndetse n'amaguru.

Umusore bigaragara ko yagize ikibazo cy'imvune ku kirenge, yicaye ahantu ku gatanda bigaragara ko havurirwa abarwayi ndetse ari kumwe n'umuganga bisa nkaho ariwe uri kugerageza kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Ibikoresho byinshi binyuranye byifashishwa n'umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri, harimo amazi, imbuto nyinshi zitandukanye, ndetse n'igikoresho umuntu yakwifashisha ari gukora iyo myitozo; bigaragara ko byose ari ibyatuma uwo muntu agira ubuzima buzira umuze.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyenda isa bigaragara ko yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ahantu habugenewe ari kugerageza kurambura ingingo ze z'umubiri ndetse anafashe ku kirenge bisa nk'aho ari kugerageza kwigorora neza ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umusore w'inzobe ufite ubwanwa wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri akaba afite n'isume ku rutugu bigaragara ko avuyemo imyitozo ngororamubiri agiye koga ariko akaba abanje kunywa amazi afite icupa ari kunywa amazi bigaragara ko yari ananiwe.

Ibikoresho byinshi binyuranye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri barambura amaboko neza ndetse n'inkweto bigaragara ko ari zo umuntu yambara agiye gukora imyitozo n'agasahane kariho ibintu byinshi bitandukanye byiganjemo ibinyabutabire, umuntu aba akeneye kugira ngo abashe kugira ubuzima buzira umuze.

Umuntu ufite ijage nziza irimo amazi bigaragara ko ari kuyasuka mu kirahure cyiza cyabugenewe mu kunyweshwa amazi, bisa nk'aho agiye kuyanywa avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa muremure ufite imisatsi miremire wambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi ndetse isa n'inkweto yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, yifashishije amaboko urabona ko ari kugerageza kugorora mu mavi kugirango abashe kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, bisa nk'aho ari kugerageza kugorora ingingo ze z'umubiri, ukuguru kumwe kurahagaze ukundi kurapfukamye, ahantu ari kuyikorera harambuye ikintu bisa nk'aho ari cyo ari gupfukamamo kugira ngo atababara amavi.

Igikoresho gifite ibara ry'ubururu cyifashishwa n'umuntu wagize igikomere cyangwa imvune mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abashe kugabanya ubukana bw'imvune cyangwa igikomere.

Umuntu bigaragara ko arangije gukora imyitozo ngororamubiri. Afite icupa ryamazi ari kuyanywa bisa nkaho asoje gukora imyitozo ngororamubiri ananiwe cyane.

Icyapa kiriho umuntu ukora imyitozo ngororamubiri ndetse banagaragaza umumaro wo gukora iyo myitozo ko higanjemo gutwika ibinure, kugabanya umuvuduko w'amaraso ndetse no kugabanya imihangayiko ndetse n'ibindi byinshi binyuranye.

Imbuto nyinshi zitandukanye zikungahaye mu kurinda indwara ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko izo mbuto ziribwa n'umuntu nawe kugira ngo abashe kugira imbaraga avuye mu myitozo ndetse no gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

umukobwa w'umubiri yombi wambay eyambarabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri bisa nkaho yagize ikibazo munsi y'amavi gato akaba yahawe ubutabazi bw'ibanze kugira ngo igikomere kibashe gukira

Abantu benshi ubona bambaye imyambaro iriho ikimenyetso cy'umusaraba utukura, bigaragara ko habereye umunsi mpuzamahanga wahariwe ubutabazi bw'ibanze ndetse hari n'uri kubaha amahugurwa ku bijyanye n'uko wafasha umuntu ugize ikibazo.

Icyapa cy'umuhondo kiriho amagambo yandikishijwe amabara y'umweru ndetse n'umukara, ndetse n'abantu berekana ibishushanyo by'ibyo wakora kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza, ndetse n'ibyo wakora mu myitozo ngororamubiri byabasha kugufasha kumera neza.

Umuntu wambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri. Yicaye ahantu ha wenyine, imbere ye hateretse igikapu kinini bigaragara ko ari cyo atwaramo ibyo kwifashisha mu gihe ari gukora imyitozo. Afite icupa ry'amazi, ari kuyanywa, bigaragara ko yari asoje gukora imyitozo.

Agasanduku k'ibara ry'icyatsi karimo ibikoresho byinshi binyuranye byifashishwa nk'ubutabazi bw'ibanze igihe umuntu yaba ahuye n'ikibazo kugira ngo abashe kumererwa neza cyangwa kugabanya ubukana bw'igikomere cyangwa imvune. Harimo; imikasi, bande, imiti yifashishwa, amavuta ndetse n'ibindi binyuranye.

Imodoka yifashishwa mu kugeza abarwayi barembye kwa muganga kugira ngo batagira ikibazo izwi nk'imbangukiragutabara iri kugenda mu muhanda hagati yonyine bigaragara ko hari aho igiye.

Umukobwa ukiri muto w'inzobe wambaye impuzankano y'abaganga, yambaye uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa. Mu ijosi rye harimo igikoresho cyabugenewe mu gupima abarwayi, imbere ye hari ameza ateretseho igikoresho cyo kwifashisha ndetse na mudasobwa ari kurebamo bigaragara ko hari icyo ari gusomamo.

Umuntu ubona wicaye wagize ikibazo ku kaguru ari kumwe n'undi muntu bigaragara ko ariwe uri kumuha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo iyo mvune ibashe koroha itagize ubukana buremereye.

Umuganga wambaye imyambaro yabo yabugenewe ndetse n'ikarita y'akazi, biragaragara ko ari kugerageza kugorora umurwayi waje amugana, uwo na we araryamye, ari kumugorora akaguru.

Ibikoresho byinshi birunze hamwe bigaragara ko ari ibikoresho byifashishwa nk'ubutabazi bw'ibanze igihe umuntu agize imvune cyangwa igikomere, bikamufasha ko imvune cyangwa igikomere bitakiyongera kugira ngo abashe koroherwa mbere yo kugezwa kwa muganga.

Umuntu wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari kugerageza kurambura amaboko, ari ahantu ha wenyine bigaragara ko ari gukora imyitozo ari wenyine.

Umusore wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, ari ahantu bigaragara ko hubatse neza ndetse urabona ko ari kurambura amaguru ye akoresheje amaboko akayazamura akayageza ku biti.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo, ari ahantu heza kandi hari ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa bakora imyitozo kandi aho hantu hari n'ubusitani bwiza bigaragara ko ari ahabugenewe kuyikora.

Agakarito gafite ibara ry'icyatsi bigaragara ko kabikwamo ibikoresho bitanga ubutabazi bw'ibanze byifashishwa mu kurwanya igikomere, imvune ndetse n'ubushye, higanjemo imikasi, amavuta, imiti basiga ku bikomere n'ibindi byinshi.

Umuti gakondo ufite amababi y'icyatsi kibisi manini cyane bigaragara ko wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, uri ahantu hawonyine bigaragara ko inyuma nta bindi biti bihari.

Ikimera kirekire gifite amababi y'icyatsi ndetse n'indabyo bigaragara ko ari umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye, uteye ahantu ha wonyine ubona ko wakuze ukaba munini cyane.

Umuti gakondo ukozwe mu bimera bitandukanye, bigaragara ko uri mu gacupa k'umweru n'irindi bara, hariho ibimera bishushanyijeho bigaragara ko ari umuti w'ikigo cya Forever, wavuye mu bimera higanjemo n'igikakarubamba.

Umuntu uhagaze bigaragara ko acuruje imiti gakondo itandukanye iri mu bicupa bivamo mayoneze, ndetse inyuma ye hari abandi bantu benshi bigaragara ko ari ahacururizwa ibintu byinshi bitandukanye.

Umuti gakondo uri mu gacupa, bigaragara ko handitseho ibyo ukorwamo ndetse n'izina ry'uwo muti. Bigaragara ko wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi binyuranye. Uri ahantu ha wonyine, nta kindi kintu gihari.

Imiti myinshi itandukanye iri mu ducupa dutandukanije ingano ndetse dutandukanyije n'amabara y'ikigo kizwi nka foreva kigira imiti myinshi itandukanye ikozwe mu bimera. hano yiganjemo ikozwe mu gikakarubamba.

Amashusho atandukanye bigaragara ko ari imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye. Buri shusho yose ifite ubwoko bwayo ndetse n'akabati ubona gapanzemo ubwoko bw'imiti butandukanye.

Imiti gakondo ifite uturabo hejuru dusa umuhondo, hari n'igikoresho kiri mu ishusho y'isekuru kirimo indi miti ndetse n'umuhini urambitsemo bigaragara ko ari icyo bifashisha basekura uwo muti kugira ngo ubashe kugira akamaro.

Uducupa dutoyabona turimo imiti ikozwe mu gikakarubamba, ubona ko yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Mu kindi gice harimo agacupa ubona gapfunduye k'umweru bigaragara ko ari umuti gakondo na wo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, uturuka mu bimera ndetse n'uturabo dutoya bigaragara ko na two tuvamo iyo miti.

Ibyatsi byinshi cyane ubona bikura bikaba birebire, ubona ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Uducupa twinshi tunyuranye turi mu ngano zitandukanye ndetse n'ubwoko butandukanye, bigaragara ko hose harimo imiti gakondo ikozwe mu gikakarubamba, yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Ikigo mpuzamahanga cyita ku buzima kizwi nka foriva gisakaza kikanacuruza imiti iva mu bimera byifashishwa mu kuvura ndetse no kurwanya indwara nyinshi zinyuranye.

Umuti ufunitse mu gakarito bigaragara ko ari umuti ukozwe mu bimera w'ikigo kizwi nka Aliance gicuruza imiti myinshi itandukanye ivura indwara zinyuranye z'ubuzima ndetse n'ibinini bifunitse mu dukarito twabyo, byose bigaragara ko byifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye ariko byose bikorwe mu bimera.

Icyatsi kirekire gifite amababi y'icyatsi cyakuze kirandaranda, kiri ahantu hateye honyine ku butaka burimo amabuye bufite ibara ry'umutuku. Icyo cyatsi kandi gifite indabo nyinshi bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Umuti gakondo wiganje ahantu hamwe ufite amababi menshi atoshye maremare yicyatsi kibisi, bigaragara ko uwo muti wakuze cyane uri ahantu ha wonyine wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Umuti gakondo ufite amababi maremare y'icyatsi kibisi nawo warakoze uba muremure cyane bigaragara ko wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye wiganjemo ubunyabutabire bwica udukoko tw'indwara nyinshi.

Umuti gakondo uva mu bimera wifashishwa mu kuvura indwara ya amibe, uri mu gacupa k'amabara y'umweru kometseho icyapa cy'amabara y'umutuku ndetse n'amagambo yanditseho avuga ko uwo muti witwa ndetse no kuwamamaza ko ushobora kuvura indwara ya amibe ku kigero cyo hejuru.

Umuti gakondo ufite amababi y'icyatsi kibisi, bigaragara ko uri ahantu hateye n'ibindi byatsi byinshi, bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Umuti gakondo uva mu gikakarubamba utangwa n'ikigo kizwi nka Foreva, wifashishwa mu koza amenyo kugira ngo ubashe kugira amenyo meza ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda wo mu kanwa.

Umuti gakondo ufite amababi y'icyatsi kibisi ubona uwakuze urandaranda bigaragara ko wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye, uri ahantu ubona uri wonyine nta bindi bimera bihateye.

Umuti uri mu gacupa k'umweru kariho icyapa cyanditseho izina ryawo, ndetse ukanerekana ibyo uvura: kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, n'ingaruka zo kwikinisha, ukanakumira indwara nyinshi zitandukanye.

Uducupa twinshi dutandukanyije amabara, ingano ndetse n'imiterere, bigaragara ko harimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo kandi n'iyo wagira ngo ivura indwara z'uruhu.

Imuti gakondo ubona yahinzwe ahantu hamwe yose yegeranye, irimo ibibabi byinshi bitandukanye by'ibara ry'icyatsi, bigaragara ko harimo n'abantu bari kuyisarura b'abaturage bakoresheje ibitenge kugira ngo babashe kuyigeza aho itunganyirizwa.

Imiti gakondo, iri mu ducupa twinshi tunyuranye. Iyo miti iri mu kabati. Bigaragara ko yose itandukanyije imimerere. Inyuma y'akabati, hahagaze umukobwa wambaye ibintu by'umweru bigaragara ko ari we uyicuruza, hari kandi n'ibindi biti by'imikindo inyuma.

Imiti gakondo iri mu bintu byinshi binyuranye bigaragara ko hari n'umuntu ufite ibyatsi ari gusekura mu gasekuru gatoya, kugira ngo uwo muti na wo ubashe gukora. Hari n'indi kandi ubona itari ibyatsi iri mu bintu bitandukanye.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye iri ku bintu byinshi bitandukanye harimo iri mu kintu wagira ngo ni ikirahure yiganjemo ibyatsi ndetse n'indi imeze nk'utunini iri ku midaho ndetse n'uducupa duto turimo itandukanye.

Umuravumba wakuze cyane bigaragara ko ufite amababi makeya hari n'ibabi ry'icyatsi kibisi ryashibutse hagati mu giti, bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye ndetse hari n'umuntu ubona waje gusoroma uwo muti nyuma yawo hari akantu gateretse ubona ko naho karimo umuti wifashishwa mu kuvura indwara.

Ibyatsi bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye, kubera ko bikungahaye ku binyabutabire bwica udukoko tw'izo ndwara, biri mu bibumbano byabugenewe, mu guteramo ibimera kandi buri kimera cyose gifite izina munsi rivuga icya ari cyo.

Uducupa turimo imiti itandukanye bigaragara ko hari uduteye nk'uturimo imiti yo kwisiga, iyo gukoresha mu kanwa, ndetse n'indi miti iri mu tubido tunyuranye. Byose bikaba bitangwa n'ikigo kizwi nka foreva kizwiho kugira imiti ituruka mu bimera yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Imiti gakondo inyuranye yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye, hari kandi n'agasekuru bigaragara ko yose ivura ibanje gusekurwa ikaba ifu, ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu gusekura iyo miti itandukanye.

Icyatsi gifite amababi y'icyatsi cyakuze mu buryo burandaranda, gifite kandi n'uturabo urabona ko kiri ahantu k'ubutaka, bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo itandukanye bigaragara ko buri wose uri mu kintu cyaho kandi buri wose utandukanye n'undi, yaba mu ibara, mu ngano ndetse isa nk'aho inavura indwara nyinshi zitandukanye, hakaba hari n'ikintu wagira ngo ni umunzani uri ku meza, bisa nkaho ari wo wifashishwa mu gupima ingano y'iyo miti.

imiti gakondo ifunitse mu ducupa dutanduganyije ingano ndetse n'ifunitse mu dukarito, harimo n'iyo ubona yakozwe mu bikakarubamba byose bigaragara ko yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye, ndetse ikaba ikungahaye ku binyabutabire bivura izo ndwara.

Tangawizi nyinshi zirunze ahantu hamwe ndetse hari n'indi ikase, bigaragara ko zifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye harimo izo mu buhumekero ndetse zikanafasha abantu mu bindi bintu bitandukanye.

Umuti ukozwe mu bimera ufunitse mu gakarito, w'ikigo kizwi nka Golobo Aliyanse, gitanga imiti ivura indwara zinyuranye, ikozwe mu bimera.

Umuti gakondo ufite amababi y'icyatsi uteye ahantu bigaragara ko ariwo uhari wonyine mu mabuye. Biragaragara ko wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Ikimera cyakuze mu buryo burandaranda gifite amababi y'icyatsi kibisi kiri ahantu ha cyonyine bigaragara ko nta bindi bimera byinshi bihari cyifashishwamo umuti gakondo gikungahaye ku butabire bwica udukoko tw'indwara zinyuranye.

Umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye ufite icyatsi kibisi ndetse n'ibibabi binini kandi bigari, inyuma yabyo hari n'indi miti gakondo itandukanye nayo yifashishwa.

Ibyatsi bifite amababi atoshye y'ibara ry'icyatsi, bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, uri ahantu ha wonyine wakuze neza urandaranda, ufite amababi menshi cyane bigaragara ko uri ahantu wishimye.

Agacupa k'ibara ry'ubururu karimo amavuta yisigwa ku ruhu, yifashishwa nk'umuti gakondo uvura indwara nyinshi zinyuranye z'uruhu, utangwa n'ikigo kizwi nka foreva.

Ibikakarubamba biri mu bihibumbano byabugenewe mu guteramo ibimera, ndetse n'agakombe karimo udukoresho twabugenewe mu gusu amenyo. Bigaragara ko ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Imiti gakondo iri mu birarahure bigaragara ko harimo ibibabi by'iyo miti ndetse n'amazi, ibyo bibabi bikaba biri guhindura ibara ry'amazi kubera ubunyabutabire buri muri iyo miti yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba, uri mu gacupa karinganiye k'amabara y'umweru, ndetse hariho n'ibishushanyo by'ishyakarubamba kibisi. Bigaragara ko wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Umuti gakondo uzwi nka kapusine wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye, higanjemo inkorora ndetse n'ibicurane. Bigaragara ko ukungahaye ku binyabutabire bwica utwo dukoko, uteye ahantu mu busitani harimo n'ibindi byatsi byinshi.